Inzu zipanzwe ku murongo z'abanyeshuri zikoreshwaga nabo mu kwakira amasomo ndetse n'abarimu mu kubaha amasomo imbere yazo ku rubaraza hateye indabyo hari n'akajaride k'umucaca karushaho kuhagira heza imbere y'akajaride hari umuhanda unyurwagamo n'abanyeshuri n'abarimu.

Icyumba gihurijwemo abantu, abadozi batandukanye, harimo imashini nyinshi zitandukanye zifashishwa mu kudoda imyenda yo kwambara yaba iy'abagabo cyangwa iy'abadamu.

Laboratwari basuzumiragamo indwara zitandukanye cane cane iziterwaga na mikorobe ntoya umuntu atabonesha amaso , zikaba zikorwa n'abaganga bambaye neza birinze , bambaye amataburiya n'amaga kugira ngo izo ndwara zitaza kubandura.

Abakozi bo mu igikoni bazwi nk'abatetsi bakora ibintu bitandukanye ni batanu. Iruhande rwabo hari abakora imboga, inyama ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Iranda ryifashishwaga mu kuringanyiza urubaho. Umugabo urifite yambaye isarubeti n'ingofero arambitse urubaho hejuru, aho agomba kururinganyiriza neza. Iranda umumaro waryo ni ugufata urubaho, rikariringanyiza rikarishyira ku bipimo bishakwa n'umufundi.

Ikigo c'amashuri kirimo abanyeshuri bari ku muronko, inyuma yabo hari etaje bigiragamo hasi no hejuru, bafatiragamo ubumenyi bw'ibintu bitandukanye bagiye kwiga ndetse bagafatiramo n'udusha.

Abanyeshuri bari gukora amasuku ahantu bakorera puratike, bari kumwe n'umwarimu wabo, hirya inyuma hariyo abandi banyeshuri n'abantu bameze nk'abayobozi, hari amatafari bari kuyora ibyodo bifashishije igitiyo, bambaye bote n'amasarubeti.

Inzu ikorerwagamo serivisi z'umusatsi zirimo kogoshwa cyangwa gusukwa, irimo ibikoresho bitandukanye harimo tondezi, imashini zifashishwaga mu gusuka ndetse no korosha umusatsi mu gihe bari gusokoza.

Abanyeshuri bari mu cyumba kirimo mudasobwa, biga kuzikoresha Yaba ari ukohereza cyangwa kwakira amakuru cyangwa gutanga ibindi bintu, serivisi za Leta cyangwa iz'abantu bikorera kuri mudasobwa.

Ishuri ririmo abanyeshuri bari gukora ikizamini bicaye umwe umwe ku ntebe imbere hari umunyeshuri wicaye ufite karikiratirise yifashishwaga mu gukora imibare kuzikuba , kuzigabanya n'ibindi nkabyo akaba afite na buwate ibagamo amarati na kompa zifashishwaga mu guca imironko z'uruziga.

Abatetsi batekaga ubwoko bw'ibiryo butandukanye, bakundaga kwifashishwa mu mahoteri cangwa ahandi hantu habaye ibirori by'abantu benshi batandukanye, b'ubukwe cangwa ibirori by'amasabukuru.

Abantu biga gucuranga ibicurangisho bya muzika, ariko bya kijambere birimo ingoma, z'imiziki za gitari birimo na za seti zakoreshwaga, cane cane mu nsengero z'abapende mu gihe cyo kuririmba no guhimbaza Imana.

Ishuri ririmo abanyeshuri bicaye ku muronko umwe umwe ku ntebe, kugira ngo badakoperana cangwa ngo bakopezanye kuko bari mu kizamini. Imbere y'umunyeshuri hagomba kuba hari buwate irimo amarati arifashisha mu guca imironko bitewe n'ikizamini ari gukora.

Kamera: Igikoresho gifata amashusho cyangwa amafoto, hirya yayo hari umugabo uri gufata amashusho cyangwa amafoto, naho hepfo hari fimuzi zo gucomekaho ibintu bitewe nibyo mugiye gucomeka mushaka gukora.